Abaturage bicaye barenga mirongo itatu bakurikiye umuyobozi wabo wambaye imyenda y'umukara n'inkweto, barangajwe n'umumama wambaye inkweto z'ubururu n'imyenda isa oranje, bari kumva ibyo ababwira.

Abantu bane bicaye bakurikiye imbwirwaruhame, umwe n’umuzungu, abandi batatu n’abirabibura, babiri muri bo bambaye amarinete, harimo n’umugore wambaye isharupe ifite ibara ry’umutuku.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Abagore batatu umwe yambaye umukenyero, undi wambaye igitenge, undi wambaye umupira n'ijipo bari guha impamyabushobozi, uwurimo hagati wambaye igitenge yishimye.

Umugore wambaye ikote ufite agakapu gafite amabara y'umutuku, ubururu, n'umweru ari kuri terefone ari imbere y'inyubako ya etage m'u Rwanda, n'inyuma ye hari abantu bagera kuri batatu n'imodoka harimo ambirase.

Umubyeyi ufite imisatsi myinshi yambaye amarinete n'ikanzu y'ibara rya orange ariko gutangaya imbwirwaruhame mu bantu, inyuma ye hari akabati.

Mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda aho abantu bahawe imirimo bari kurahira imbere y'umukuru w'igihugu, ndetse bahagaze imbere y'itarapo ry'igihugu cy'u Rwanda bamanitse akabokoko k'iburyo bari kuvuga indahiro zabo ku nshingano nshya bahawe.

Ikiganza cy'umuntu kigaragaza ko avuye gutora, ku gikumwe hasizeho ibintu by'ibara ry'ubururu ndetse no ku gatoki k'agahera n'aho hasizeho ibintu by'ubururu.

Uwahoze ari Minisitiri w'ubuzima Dogiteri Sabe ari gutanga imbwirwaruhame, yicaye mu ntebe inyuma ye, hicaye abandi bantu batatu harimo umugore ndetse n'abagabo babiri bicaye imbere ya mudasobwa.

Umugore ufite agatabo mu ntoki wambaye amarinete ufite imisatsi n'amaherena wambaye imyenda y'umukara ari gutanga imbwirwaruhame mu kiganiro hariho na mikoro inyuma ye hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo.

Abamotari bahagaze imbere y'inyubako, umwe ari gushyirirwaho kuri moto imizigo, ari gufashwa n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu n'umugore umuri inyuma wambaye igitenge nabandi bagore babiri bari inyuma

Umuhanda wamabuye urimo abagenzi ,harimo abagenzi batatu harimo umuzungu, harimo nundi wambaye imyenda y'umweru uhetse igikapu, nundi ubari imbere wambaye ipantaro y'umutuku.

Umuhanda mugari ugaragara neza kandi utuje ukikijwe n'ibiti bitanga igicucu, ugabanyijemo inzira ebyiri zijya mu byerekezo bitandukanye, hagati y'iyo mihanda ibiri hari icyapa kiranga kandi kigaragaza ikigo cy'ishuri ry'incuke ndetse n'igishushanyo cy'amabara anyuranye munsi y'icyo cyapa.